Umuntu uhetse ipombo akaba ari kugenda yambaye agapfukamunwa, ari mu murima w'umuceri aho ari kugenda awutera umuti kugira ngo utazafatwa n'udukoko tugiye dutandukanye bityo ntiwere neza.

Umugabo wambaye ipantaro y'itisi. Ahetse ipombo isa umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, akaba ari kugenda atera umuti imboga ze yateye kugira ngo zitagira ikibazo zikicwa n'izuba cyangwa udukoko.

Umugabo uri mu murima w'ibigori yambaye ikoti ry'umukara ndetse ayetse ipombo risa umuhondo n'ubururu ari kugenda atera ibigori bye umuti kugira ngo abirinde nkongwa zitazabyataka.

Ni byiza cyane ko uburinganire bwageze mu Rwanda, aho muri iki gihe n'abagore basigaye bajya mu mwuga w'uburobyi, uyu mukobwa rero afite indobani agiye kuyishyira mu mazi hanyuma arebe ko yavanamo amafi.

Umuntu uhagaze imbere y'ikiyaga bigaragara ko ari umugabo wambaye agashati k'icyatsi afite n'ibasi mu ntoki akaba ari kugenda aterera ibyo kurya avanye mu ibasi mu mazi bigaragara ko ari kugaburira amafi.

Umugezi mugari cyane urimo amazi menshi, hakaba harimo n'ikidamu kiri mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo, bigaragara ko bakunda kuharobera amafi agiye atandukanye.

Uburobyi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho ubu ngubu abantu basigaye bakora akazi k'uburobyi basigaye barazanyemo n'abakobwa mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu Rwanda n'abakobwa bakaba baroba.

Abantu benshi cyane aho bagiye ahantu mu kiyaga bari kuroba, bafite inshundura aho mo imbere mu nshundura hahagazemo umuntu bigaragara ko yari yarohamye bakaba bamuvanyemo bifashishije inshundura.

Ahantu mu cyuzi ahabera ibikorwa bigiye bitandukanye by'uburobyi bateyemo indobani zigiye zitandukanye kugira ngo amafi nazamo ahite afatwamo, hanyuma abantu baje kuroba bahite babona umusaruro bitabagoye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati ndetse yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari ibyuzi byinshi bigiye bitandukanye, bakunda kuroberamo amafi.

Umugezi ukikijwe n'insina nyinshi cyane bigaragara ko ari ahantu mu mubande, izi ntsina rero zikaba zarahinzwe n'umuturage akaba azitahura iyo zeze akajya kugurisha ibitoki.

Umugore wikoreye indobo y'icyatsi akaba ateze igitambaro cy'ubururu, akaba ari mu murima wahinzwemo ikawa aho ari kugenda ayisoroma, ayisarura, ayishyira muri iyi ndobo kugira ngo age kuyigurisha.

Ibihingwa ngengabukungu bigiye bitandukanye aho biri mu mufuka, uwo mufuka ukaba ushinzemo igiti kimanitseho Ibendera ry'u Rwanda, bari kwamamaza ko ibi bicuruzwa cyangwa ibi bihingwa nta handi wabisanga uretse mu Rwanda.

Umugore uri mu murima uhinzemo ikawa, akaba ari kugenda ayisoroma kubera ko itukuye, ubuhinzi bw'ikawa rero butanga umusaruro ufatika ku muhinzi wa bwo kuko iyo usaruye ikawa uyigurisha, ikiro kimwe kigura magana inani.

Umugore uri gusoroma icyayi mu murima bigaragara ko ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu biba mu Rwanda, icyayi rero gikunze guhingwa nko mu turere two mu ntara y'iburengerazuba ndetse n'amajyepfo.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abahinzi b'ikawa basigaye bagira umusaruro ufatika kuko basigaye basarura ikawa itukuye bagahita bayigurisha batabanje kuyanika.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu bikunze kwifashishwa cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe umuhinzi w'ikawa asigaye yarateye imbere cyane, aho iyi kawa yeze ayisarura itukuye akayigurisha ku ruganda bakayitunganya neza.

Mu turere dukunda cyane nko mu turere two mu ntara y'Iburengerazuba ndetse no mu ntara y'Iburasirazuba n'amajyepfo, bakunda guhinga igihingwa cy'icyayi, aho iyo cyeze abasoromyi bagenda bagisoromera mu bitebo byabo.

Umuntu uri mu murima w'icyayi akaba ari kugenda asoroma ashyira mu ntebo yabugenewe kugira ngo arebe ko yabona ibimutunga. Ubuhinzi bw'icyayi rero bukomeje gutera imbere aho umuntu gisigaye kimuha umushahara wa buri kwezi.

Abantu benshi cyane bahuriye mu isoko ricuruza ibihingwa ngengabukungu bizwi nk'ikawa, aho bisutse hasi bakaba bari kugenda babitoranya bareba ibifite ikibazo ngo babivanemo hanyuma basigarane iby'umwimerere.

Ubuhinzi bw'icyayi bukunze gukorwa mu turere dukonja cyane. Cyane cyane uduherereye nkowo mu ntara y'Ububurengerazuba na Ngororero na Nyabihu ndetse na rubavu hari n'akandi ka nyaruguru gaherereye mu ntara y'Amajyepfo.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, iyi miti rero ni ingenzi kuko iyo itungo riyirwaye ukayiha umuti rihita rikira maze ugakomeza ukaryorora ufite umutekano.

Mu iduka ricuruza imiti y'amatungo haba harimo uducupa tugiye dutandukanye, aho utu ducupa tuba turimo imiti ivura amatungo ndetse tuba turiho n'icyapa kigaragaza amatungo uwo muti uvura.

Amacupa agiye atandukanye arimo umuti, aho ari mu mabara y'umutuku ndetse n'icyatsi n'umweru akaba arimo imiti igiye itandukanye yifashishwa bari kugaburira amatungo bayavura.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bigaragara ko hacururizwamo imiti igiye itandukanye yifashishwa bari kuvura amatungo igihe aba yagize ikibazo.

Amoko agiye atandukanye y'imiti ivura inyamaswa aba agiye ari mu ducupa twinshi cyane aho utu ducupa twifashishwa turi kuvura amatungo indwara nyinshi zigiye zitandukanye aba yarwaye kugira ngo akire.

Hariho amoko agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu kuvura abantu baba bagize ibibazo byo kurwaza amatungo hanyuma bakaza kuyigura hano bakayishyira amatungo yabo, hanyuma igahita akira.

Inka zigera muri ebyiri za kinyarwanda zifite amahembe, zikaba ari za nka zidatanga umukamo utubutse, zihagaze ahantu hamwe aho ziri kugenda zitegereza haruguru ngo zirebe ko twabona aho zijya kurisha.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere, cyane aho muri iki gihe haje amata meza cyane aba asukuye akomoka ku nka tuba tworoye. Hano rero hari icyapa kiri kutwereka ikusanyirizo ry'amata giherereye muri Nyagatare.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi akaba ari mu murima ari kugenda atera imbuto kugira ngo arebe ko uru rubuto rwazamugirira akamaro, ni byiza cyane ko buri muturage yatera imbuto zikazamutunga mu gihe kiri imbere.

Ubworozi bw'inka na bwo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe, abantu basigaye borora inka, hanyuma bakagenda bagiye kuziragira bazitaho kandi zikaba zitabica.

Uumurima uteyemo umuceri, hakaba harimo umugore uri kugenda awusukiraho umuti, muri uwo muceri bigaragara ko ugiye kwehera. Hari n'undi musore uhagaze hepfo ye wambaye agashati k'umukara ndetse n'agapantaro k'umweru.

Umurima uteyemo umuceri ahantu mu gishanga, hakaba hari kugendamo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, hari kugendamo umukecuru wikoreye inkwi uvuye gutashya ndetse n'umugore ukiri mutoya umuri inyuma, bakaba bari kugaragaza ko ari byiza cyane gutura ahantu mu cyaro.

Ahantu hari inyubako nziza cyane iteraniyemo utubido turi mu mabara y'umweru tugiye dutandukanye, bigaragara ko utu tubido tuba turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buhinzi buhira cyangwa bavura imyaka yabo.

Umuntu uhagaze mu murima w'ibigori akaba yambaye agapira k'ubururu akaba ameze neza cyane yishimye bigaragara ko ibigori bye bimeze neza kubera ko yabyitayeho, akaba ateganya ko mu minsi iri imbere bizamuha umusaruro utubutse.

Umugore wambaye agapira k'icyatsi, akaba afite urugemwe rw'ikimera bigaragara ko agiye kugitera. Inyuma ye hari abandi bantu benshi cyane bagiye batandukanye, bigaragara ko bari gushyira imbaraga mu mushinga w'ubuhinzi.

Ubuhinzi bw'imyumbati ni bumwe mu buhinzi bukomeje gutera imbere cyane, aho abantu basigaye bahinga imyumbati hanyuma bakayitaho yamara kwera ikazabaha umusaruro, maze bagakirigita ifaranga bagasezerera ubukene.

Ubuhinzi bw'imyumbati na bwo bumaze gutera imbere cyane aho ubu ngubu hasigaye hari abahinzi bagize umwuga guhinga imyumbati, aho bafata isambu bagahingamo imyumbati gusa mu gihe cy'amezi umunani bagatangira kuyisarura.

Ubuhinzi bw'ibigori na bwo burushaho kugenda butera imbere, aho muri iki gihe abahinzi babyo basigaye babihinga babyitayeho, hanyuma nabyo byamara kwera bikabaha umusaruro ufatika bakabonamo inyungu.

Ubuhinzi bw'imyumbati bumaze gutera imbere cyane, aho iyo wahinze imyumbati ukayitaho iguteza imbere ukabona umusaruro uhagije hanyuma ugakirigita ifaranga maze ugasezera ubukene.

Ubuhinzi bw'imyumbati na bwo burushaho gutera imbere uko bwije n'uko bukeye, aho muri iki gihe abahinzi b'imyumbati basigaye bayihinga kinyamga bakayihinga ari yonyine, hanyuma yamara kwera ikabaha umusaruro bagakirigita ifaranga.

Igiti cy'umwembe giteye ahantu mu murima. Umwenda rero ni ingirakamaro cyane kubera ko iyo umuntu awuhinze ukera, umuha umusaruro ufatika maze akajyana no ku isoko, akabona amafaranga.

Umurima w'ibigori uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibigori, aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane kuko umuhinzi wabihinze bimuteza imbere cyane, agakirigita ifaranga, agasezera ubukene, akamererwa neza.

Ubuhinzi bw'umuceri na bwo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigagaye bahinga umuceri bakawitaho, bawusarura bakavanamo umusaruro ufatika, hanyuma bakawifashisha bikenuza ibibazo bigiye bitandukanye.

Ahantu mu cyaro bakunze guhinga ibihingwa by'imyumbati, bakabihinga ahantu mu mitabo ku buryo bw'imironko, imyumbati rero ni ingirakamaro kuko itanga umusaruro ku bahinzi bayo.

Ubuhinzi bw'ibijumba na bwo bukomeje kwitabwaho cyane, aho muri iki gihe abahinzi basigaye bahinga ibijumba, bakabyitaho, hanyuma babisarura, bagakuramo umusaruro ufatika ndetse bagasagurira n'amasoko.

Umurima wo guhinga aho uhingwamo ibihingwa byinshi bigiye bitandukanye ukaba aribwo ukimara guhingwa batarateramo ibihingwa byinshi bigiye bitandukanye.

Ahantu mu isambu aho hari ibishyimbo biri kumera ariko bikaba bigaragara ko bitahatewe ahubwo ni aho bahuriye ibishyimbo imvura iguye hahita hamera ibindi bikiri bishyashya.

Ahantu heza cyane hari ubutaka bwiza cyane bwo kuba bahingamo, kuko ubwo butaka burahinze ariko nta myaka iteyemo. Ni ahantu haherereye mu Karere ka Nyagatare, intara y'Iburasirazuba.

Ipapayi ni kimwe mu bimera by'ingirakamaro kuko iyo umuntu akiriye bituma umubiri we umera neza kandi n'inzira z'igogora zikagenda neza bityo ubuzima bw'umuntu bukazira umuze.

Ahantu mu kibaya harimo imisozi igiye itandukanye ahagana hakurya ndetse hakaba hashinzwemo ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi ndetse ikirere kikaba kiri gusa ubururu ndetse n'umweru gishimishije.

Mu isoko haba harimo amoko agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane, zifashishwa ku ifunguro rya buri munsi. Muri izo mboga twavugamo nka karoti, inyanya, dodo, pome ndetse na sereri.

Agasozi gateyeho amashyamba ndetse kakaba ari agasozi keza cyane kariho amashyamba, akurura imvura ndetse n'umwuka mwiza duhumeka, imbere y'iryo shyamba hakaba hateye icyayi.

Ishyamba rinini cyane ririmo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane bitanga umusaruro mu buryo bugiye butandukanye, aho bizana umuyaga ndetse n'imvura.

Ishyamba ririmo amoko menshi cyane agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kubera ko bidukururira umwuka mwiza duhumeka ndetse bikaturinda n'indwara nyinshi cyane.

Ikibaya giteyemo umuceri, aho hari ishyamba rikikije icyo kibaya, rero ubuhinzi bw'umuceri ni bwiza cyane kuko iyo uwuhinze iyo weze, utanga umusaruro ufatika ndetse ukaguha n'ibyo kurya.

Ahantu hari ibihingwa byinshi bigiye bitandukanye ibizwi nk'ibitanga umusaruro cyane cyane ishyamba, aho haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibiti, ibi biti rero byitwa penusi.

Amoko agiye atandukanye y'ibihingwa aho ibi bihingwa ari ingenzi cyane, ubuhinzi bw'insina rero bu guteza imbere umuhinzi wabwo akaba yabonamo umusaruro mwinshi cyane, si insina gusa kuko hateyemo n'ibiti by'imbuto nka avoka.

Ubutaka bugari buhingwamo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa ariko mu gasozi biba byiza iyo hateyemo ibiti birebire bikurura umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho ibi biti ari ingenzi cyane kuko umuntu wese ubihinze bimuha umusaruro igihe cyose yabisaruye ndetse akazajya abona n'inkwi bitamugoye.

Ishyamba ryateraniyemo abantu bagiye batandukanye, aho hari abicaye mu tuzu umugabo wicaye hanze ndetse n'umugore uri kugenda afite agasakoshi, iryo shyamba ririmo ibiti birebire cyane.

Ni byiza cyane ko ubuhinzi bukomeza gutezwa imbere cyane kuko abahinzi iyo bahingiye hamwe muri koperative, bagatera imyaka yabo bayitayeho iyo ikuze itanga umusaruro hanyuma koperative yabo igatera imbere.

Imisozi myiza cyane igiye itandukanye iteyeho amashyamba meza cyane, iyo misozi ikaba ari imisozi iriho amashyamba akurura imvura ndetse n'umwuka mwiza duhumeka.

Abantu benshi cyane bari mu murima, uwo murima ukaba urimo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa. Ibi bihingwa rero akaba ari ingirakamaro cyane kuko bituma abantu babihinga babasha kwiteza imbere mu buryo bw'ubukungu.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'imbuto aho izi mbuto ari imbuto z'imyembe, izi zikaba ari ingenzi cyane kuko zifasha umuhinzi wazihinze kuba yabona amafaranga kandi zigafasha n'uzikeneye kuzibona byihuse.

Mu isoko haba harimo amoko agiye atandukanye y'imboga zikunda kwifashishwa abantu bari guhaha cyangwa bari guteka amafunguro yabo ya buri munsi, hakaba harimo intoryi, puwalo ndetse n'inyanya.

Umugabo wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'indabyo, akaba ari mu murima wazo ari kugenda azitaho. Akaba yambaye itaburiya y'icyatsi ndetse na bote. Ari gusahura izo yajya kugurisha mu bukwe.

Umuntu uri mu murima uteyemo umuceri, akaba ari kugenda arebe ko weze. Hakaba hari abandi bantu bamukikije bari kumureba ngo barebe ko ibyo ababwira ari ukuri umuceri koko waba weze.

Amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo nziza cyane aho ziri mu mabara y'umutuku ndetse n'icyatsi, izi ndabyo zikaba ari nziza zinahumura neza cyane, ku buryo bazikoresha mu bukwe ukabona aho hantu hameze neza.

Mu isoko haba harimo amoko agiye atandukanye y'imbuto ndetse n'imboga ku buryo igihe cyose waba uzikeneye ku mafaranga yawe yose waba ufite, wahagana hanyuma bakaguha izi mbuto. Haba harimo inyanya, avoka, amatunda, amaronji ndetse n'ibindi.

Umugore wicaye ahantu mu gisambu aho bigaragara ko ari umuhinzi w'inyanya, akaba yazisaruye none ari kugenda azipakira mu ntebo kugira ngo abone uko ajya kugurisha uwo musaruro, ubuhinzi bw'inyanya rero bukomeje gutera imbere cyane.

Umukecuru uri mu murima we uteyemo indabyo, akaba ari kugenda azuhira akoresheje isuka y'ingembe kugira ngo izo ndabyo zibashe gutera imbere, hanyuma na we akomeze arusheho kuba umukungu jumba.

Ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane aho haje imashini zabugenewe zisigaye zuhira imyaka nta muntu uri kuzikoresha ahubwo zo ubwazo zikajya zohereza amazi mu nshe zigiye zitandukanye zirimo imyaka.

Umuntu uri mu murima we w'ibigori akaba yarahinzemo inyanya none izuba ryavuye yafashe ipombo ryabugenewe ndetse n'umupira, ari kugenda abyuhira kugira ngo bitazicwa n'izuba bikaba byabaviramo kurumbya.

Ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane aho n'umuhinzi asigaye ahinga ubuhinzi bwe hanyuma akagenda akajya kuhira imbuto ziwe akoresheje imipira yabugenewe, niyo haba ari mu zuba, akabona umusarurowe uko bikwiriye.

Umugabo uri mu murima yateyemo imbuto, akaba ari kugenda azuhira mu buryo bugezweho akoresheje ibyuma bya tekinonorogiya, aho ari gukoresha amapombo yabugenewe agenda atungereza amazi mu murima.

Umugore uri mu murima yateyemo dodo, akaba ari kugenda azuhira akoresheje umupira kugira ngo arebe ko zazamuha umusaruro bikamuteza imbere, dore ko ubuhinzi bwa dodo busigaye ari ingenzi cyane muri iki gihe.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe umuntu asigaye ahinga igihe icyo aricyo cyose. Iyo ari mu Mpeshyi, hari ibikoresho byabugenewe abahinzi bifashisha bari kuhira imyaka yabo kugira ngo iticwa n'izuba ikarumba.

Umwana uri mu murima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye by'imboga, aho ari kugenda abyuhira akoresheje ipombo yabugenewe, yambaye agakabutura k'ubururu ndetse n'ishati igiye irimo amabara y'icyatsi.

Mu gishanga ahahingwa ibihingwa bigiye bitandukanye by'umwihariko ibizwi nk'umuceri, iyo bimaze gukura bayoboramo amazi hanyuma akagenda akabicengera mu mizi kugira ngo bitaza kwicwa n'izuba kandi bikure neza.

Ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda muri iki gihe, aho basigaye buhira imyaka igihe icyo aricyo cyose, haba mu gihe cy'imvura cyangwa mu mpeshyi. Aho batera imyaka, hanyuma bakerekezamo ibikoresho byabugenewe, bikagenda biyuhira.

Ahantu mu giturage hari imisozi myiza cyane iteyeho amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho muri ibyo bihingwa twavuga ko harimo nk'insina, imyumbati, ibitoki ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ikiyaga kinini cyane kirimo ibirwa bigiye bitandukanye, bikaba bigaragara ko ari ikiyaga cya Muhazi giherereye mu karere ka Kayonza ndetse n'Akarere ka Gatsibo.

Ishyamba riteyemo ibiti bigiye bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi ndetse hakurya hakaba hari udusozi twiza cyane, hejuru yatwo hakaba hari ikirere kiri gusa umuhondo, ibi biti rero ni ingirakamaro cyane.

Ubutaka bwiza cyane buteyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, ndetse mu mibande hakaba harimo inyubako hejuru mu kirere hakaba harimo ibicu biri mu mabara agiye atandukanye, asa umweru ndetse n'ubururu.

Amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, bikunze kuba biri mu misozi, u Rwanda rero rugira imisozi myiza cyane, iba iteyeho amoko y'ibiti agiye atandukanye, akurura imvura ndetse akaduha n'umwuka mwiza duhumeka.

Udusozi twiza cyane dufite n'ibibaya, aho duteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti. Ibi biti bikaba ari ingenzi cyane kubera ko bikurura uyu mwuka mwiza duhumeka ndetse bigakururwa n'imvura, ikirere kikaba gisa ubururu n'umweru.

Ahantu heza cyane hari imisozi igiye itandukanye iyo misozi ikaba iteyeho ibiti by'amoko agiye atandukanye, iyi rero ni imwe muri ya misozi igihumbi igize u Rwanda, ikirere kirasa ubururu n'umweru.

Ishyamba rinini cyane rifite amoko y'ibiti agiye atandukanye. Ibi biti rero ni ingirakamaro cyane kuko bikurura umwuka mwiza duhumeka ndetse bigakurura n'imvura. Mmunsi harimo ahantu harimo utuyira twinshi.

Ahantu hari ikibaya cyiza cyane gikikijwe n'imisozi igiye itandukanye, aho iyi misozi igiye iteyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti kandi ibi biti bikaba ari ingenzi cyane kuko bitanga umusaruro kuri bene byo.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye yorora ingurube hanyuma akazororera iwe mu rugo akazajya azigaburira mu buryo bwa kijyambere, hanyuma zamara gukura akazigurisha zikamuha amafaranga.

Ubworozi bw'inkoko na bwo bukomeje gutera imbere cyane aho umuntu asigaye yorora inkoko hanyuma mu gihe kitari gito zigatangira kumuha umusaruro, rero ni byiza ko natwe twakwihatira mu bworozi bw'amatungo y'inkoko.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane aho abantu basigaye bazororera mu biraro bigezweho, iyo zagize ikibazo cyangwa zikeneye gukingirwa indwara runaka veterineri wabyigiye araza akagenda azitera inshinge azikingira.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa bari kubaka ibiraro by'amatungo kugira ayo matungo abeho neza cyane. Byubatswe mu byuma, aho ibyo byuma biri mu mabarage agiye atandukanye y'umweru ndetse n'icyatsi.

Ubworozi bw'ingurube na bwo bumaze gutera imbere cyane aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ingurube bakazororera mu biraro byiza bya sima hanyuma bakazigurira ibyo kurya kugira ngo barebe ko zabaha umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane, aho hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga bakazishyira mu cyumba k'inzu cyabugenewe, bakajya bazigaburiramo hanyuma zigakura zikabaha umusaruro.

Ubworozi bw’inkoko nabwo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inkoko bakazitaho, hanyuma zikabaha umusaruro ufatika mu buryo bw’amafaranga ndetse n’amagi.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane ndetse no guteza imbere ba nyirabwo. Aho iyo woroye inkoko zikangana gutya, ziguteza imbere cyane ndetse zikaguha umusaruro ufatika, ukaba wakirigita ifaranga, ugasezera ku bukene.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane, aho aborozi bazo basigaye bazororera mu biraro byubakishije ibyuma, hanyuma bakajya bazitaho zikabaha ifumbire uko bikwiriye maze bagatera imbere.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje guteza imbere cyane muri iki gihe. Aho ahangaha ari umuntu woroye inkoko mu buryo bwa kijyambere, akaba aziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, none zikaba zarakuze zarabaye nini cyane ku buryo azabonamo umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe umuntu asigaye yorora inkoko, akazitaho, akaziha ibyo kurya bihagije kugira ngo zizamuteze imbere, hanyuma asezere ubukene, akirigite ifaranga.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto za bote z'umweru akaba ari mu nzu iwe aho yororeye inkoko mu buryo bwa kijyambere, agenda azitaho aziha ibyo kurya.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yubatswemo ibiraro by'inka bigiye bitandukanye. Aho ibiraro by'inka byubakishije ibyuma ku buryo inka itapfa kubisenya, ahubwo yiberamo bakajya bayigabuririramo.

Ubworozi bukomeje gutezwa imbere hamwe n'ubuhinzi, aho ubu ngubu umuntu wasaruye ibigori aturirwa aruha ari kubihungura, ahubwo yifashisha imashini yabugenewe bagashyiramo ibigori hanyuma ikabihungura.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari ahantu bigaragara ko basaruye ibigori none bakaba bamaze kubitonora amahundo bayarambitse hasi bari gushaka uburyo bayagurisha.

Umugore ufite ibishyimbo ku ntara akaba ari kugenda abyerekana ko ari imbuto nziza ndetse akaba agiye kuyitera ariko afite in n'iy'arasagura aragurisha, nawe uyikeneye wamubwira akakugurisha kuri make.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo hangari bamanikaho ibigori by'imbuto. Iyo rero igihe cyo gutera kigeze, barabihanura bakabihunguza bakabijyana mu nganda bakabihunika bikaza ari imbuto nziza cyane.

Umusore uri ahantu mu murima, akaba ari kuvura amatungo yagize ikibazo, aho hari imbwa yaguye mu murima kubera kurwara, akaba ari kugenda ayitaho kubera yize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo.

Inyubako nziza cyane ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru, ikaba yahuriyemo abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, ari bo bitwa abaveterineri. Bari kugenda biga uburyo ki, wavura itungo rikaba ryakira utarikomerekeje.

Umuveterineri wabyigiye akaba ari gusuzuma inka, aho yambaye udupfukantoki twabugenewe akaba ari gukora mu inda y'inka kugira ngo avanemo imyanda irimo. Inka iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara ikaba ari iya kizungu.

Umuveterineri wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho ari kugenda avura amatungo agiye atandukanye by'umwihariko nk'inka, yayishyize mu kiraro cyabugenewe ari kugira ngo arebe ikibazo ifite maze ayivure.

Ingagi ni zimwe mu nyamaswa ziba zijya kumera nk'umuntu ariko zikunze kuba ziri ahantu muri parike y'Igihugu y'Akagera, haba hari n'izindi nyamaswa bijya kumera kimwe zitwa ibitera na zo ziba zifite imirizo ijya kumera nk'ingagi.

Inyamaswa z'inkende, ni zimwe mu nyamaswa ziba zimeze nk'abantu, zikunze kuba ziri ahantu hari ishyamba, hari n'ibiti birebire cyane kubera ko zizi kurira, zikunda imineke cyane ndetse n'ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa. Hari iziz nk'isha, aho ziba ari inyamaswa zijya kumera nk'ihene. Ziba zizi kwiruka cyane ku buryo nta muntu wapfa kuyifata.

Mu ishyamba haba harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye zigasozi, muri izo nyamaswa twavugamo nk'imbeba. Iz'imbeba rero aba ari mbi cyane kuko iyo zigeze ku myenda yawe zirayicagagura zikayisiga ari ubushigwe.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho izi nyamaswa zijya kumera nk'inka ndetse ziba zifite n'amahembe. Izi zitwa inkura cyangwa se imbogo.

Hariho amoko agiye atandukanye y'inyamaswa z'ishyamba, aho hari iziba zimeze nk'ihene, iyi ngiyi imeze nk'ihene yitwa isha, zikunze kuba ziri ahantu mu ishyamba kandi zikamenya kwiruka ku buryo nta muntu wayifata.

Muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, hari izizwi nk'imparage ziba ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, zikunda kwibera ahantu hari ibyatsi bigufi kugira ngo zijye zibirisha.

Ingwe ni imwe mu nyamaswa z'inkazi, zikunze kuba ziri mu ishyamba. Izwiho kumenya kwiruka ndetse no kugira ubugome cyane, ikaba n'inyamaswa y'inkare. Ikaba isimbukira izindi nyamaswa, ikazifata ku gakanu.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa aho izo nyamaswa ziba zishimishije cyane, hari inyamaswa y'imparage iba ifite amabara y'umukara n'umweru.

Hariho utunyamaswa twitwa isha tujya kumera nk'uduhene, twibera mu ishyamba, ariko tukaba tuzi kwiruka cyane ku buryo nta nyamaswa yapfa kudufata, tuba ari twiza kandi ari duto, twirishiriza ubwatsi gusa.